Burushete inyama botsa bakazishira ku giti barangiza bakazirya. Ibirayi bateka ku cyokezo, ibirayi babisaturamo kabiri, ubundi bamara kubiteka bakabisiga, abantu barabirya.

Inzu bacururizagamo yanditseho Eyateli, ihagazemo abantu ibiri, hateretse kandagirukarabe iriho indobo y'ubururu. Iyi nzu isize amarangi g'umutuku bwa Eyateli.

Papeteri bakoreramo ibintu bitandukanye nk'ibyo gufotora, numero ya telefone umuntu ahamagaraho igihe aje gushaka serivisi kuri papeteri, icyapa kigaragaza ibintu bakora muri iriya nzu.

Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye, umuhanda uri imbere y'iriya nzu, imodoka ziparitse imbere ya ziriya nzu, abantu bahagaze iruhande rw'umuhanda, banyura muri uriya muhanda, baje guhaha muri izi nzu.

Inzu yanditseho amajambo mu rugo gesti hawuzi isakaje gariya mabati gameraga nk'amategura ifite urugi rukoze mu byuma iriho n'amadirisha gafite dizayini nziza.

Ibikomo bambaraga ku maboko, amashenete bambaraga mu izosi, impeta bambaraga mu ntoki bagiye gusezerana, umuhungu uri gucuruza ziriya mitako zose.

Inzu ziriho ibyapa bigaragazaga ibintu bakoreragamo muri gariya mazu, amamoto gatwaraga abantu gaparitse, abantu bahagaze impande zagariya mazu na gariya mamoto, umuntu uri kunyura imbere ya ziriya mazu.

Ahantu bacururizaga imboga, bacururizaga kandi karote n'intoryi. Karoti abantu baryaga, intoryi nazo barazitekaga bazitekagamo ibishyimbo cyangwa se bakaziteka nk'imboga, abantu bakazirisha nk'umuceri n'ibindi biryo.

Uruja n'uruza rw'abantu bari kunyura muri guriya muhanda, amazu gari impande y'umuhanda, bacururizaga mo, ibikapu bimanitse kuri gariya amazu, amapoto g'amashanyarazi gariho insinga zitwaraga umuriro.

Isoko abantu bacururizagamo ibintu bitandukanye abantu, baje kurema isoko bamwe bazanagamo ibyo kugura abandi bazagamo baje gushaka ibyo bagura bakeneye.